Uyu ni umubyeyi uri kumwe n'umwana we, aho yari yamujyanye kwa muganga kugira ngo abashe guhabwa urukingo ruhabwa abana batoya, uwo wunamye uri kumuha urukingo akaba ari muganga.

Umubyeyi ari kumwe n'umwana we bigaragara yuko ari kugaburirwa n'ushinzwe ubuzima muri gahunda ya shisha kibondo. Ni umuganga wambaye amarinete n'agapira k'umuhondo.

Umwana w'umukobwa uri ku kigo cy'ishuri, akaba avuye mu bwiherero, akajya ahabugenewe gukaraba intoki nyuma yuko avuye mu bwiherero, akaba yambaye iniforume ikanzu y'ubururu n'umupira w'ubururu bwerurutse, mu imbere harimo ishati y'umweru.

Aha hari hari kubera igikorwa cyo gukingira abana batoya. Aba ni abana bari ku mwe n'ababyeyi babo, umugabo uri mu itaburiya y'umweru akaba ari we wari umuforomo ari gukingira abo bana.

Aba ni abana bane b'abahungu, aho bari bagiye kuvoma amazi. Umwe muri bo yari ari gupompa amazi, kuko iryo riba bisaba yuko ugomba gupompa amazi, uzamura kiriya cyuma ubona umwana afashe, ukimanura, kuko amazi aba arimo hasi mu kuzimu.

Abaganga bahagaze imbere ya sale iberamo inama, yubakishije amatafari ikaba isize irangi ry'umweru, iruhande rwabo hakaba hari icyapa.

Aba ni abaganga bateranye, bari kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri. Bakaba bakangurira abantu kwisuzumisha, mu buryo bwo kurandura kanseri y'inkondo y'umura. Aha bambaye ingofero z'umweru n'imipira y'umweru, abandi bambaye ingofero z'umweru. N'imipira y'ubururu bwerurutse.

Abana bari gukina n'amazi ku iriba, umwe yambaye imyenda isa nk'icyatsi, undi yambaye umupira usa nk'umutuku, umwe ahagaze mu mazi ubona yuko yatose ibirenge.

Aha ni muri sale yo kwamuganga bakiriramo abarwayi, abo akaba ari ababyeyi bari kumwe n'abana babo bari baje kubakingiza, aho uyu mubyeyi akaba yari ateruye umwana we afite n'ifishi mu ntoki.

Izi ni inshinge zo kwa muganga, zikaba ziri mu isorori yifashashwa kwa muganga ziri kumwe n'umuti, aho bikaba byari bimaze gutegurwa bigiye guterwa umurwayi.

Uyu ni umuntu ubana n'ubumuga bwo mu mutwe. Akaba yicaye muri rigori, ari gutoragura amashashi. Iruhande rwe hakaba hari akabido k'umukara. Ikigaragara ntaheruka koga.

Umukobwa w'umwiraburakazi ubona yuko ari umusirimu, ufite imisatsi ya natireri, wicaye ku ntebe ikozwe mu biti, ari kumwenyura cyane rwose, yambaye n'isheni mu gatuza, ipantaro y'ikoboyi yahinnye n'isengeri y'umukara.

Uyu ni umuganga n'umurwayi, aho bigaragara ko umurwayi yari yagiye kwivuza indwara zo mu kanwa, aho muganga bigaragara ko afite agakoresho kifashishwa mu kureba mu kanwa, kariho indorerwamo.

Uyu ni umugore wari uri kwikorera isuku yo mu kanwa, akoresheje uburyo bw'urudodo, aho agenda arunyuza hagati y'amenyo ye, bikaba bigaragara y'uko amenyo ye asa neza, kubera ubwo buryo akoresha.

Umusore wirabura ufite ubwanwa, ubona afite ibigango rwose n'akadodo mu ntoki ze, aho ari ku kifashisha mu gusukura amenyo ye, ukaba ubona yuko aseka neza cyane rwose.

Umudamu w'umuzungu n'umugabo wirabura, bambaye imyenda ya siporo bari mu ishyamba, baramwenyura neza cyane, bari gukora imyitozo ngororamubiri, inyuma yabo haragaragara ibiti byinshi.

Umumama ukuze, ubona yuko ari mu myaka nka mirongo itandatu, akaba ari kumwe n'umuganga kwa muganga, muganga akaba asa nkaho yaciye bugufi, umumama yamuhaye ukuboko ngo amufate ibizami, ubona yuko barebana rwose nk'abantu bishimiranye, bakaba bari ahantu hakikijwe n'inyubako y'ibirahure.

Uyu ni muganga akaba yari ari kumwe n'umurwayi, aho bigaragara ko muganga yari ari gusobanurira uyu murwayi ibiri kuri iyo negatifu, bari bamufashe kubijyanye n'uburwayi bwe.

Aba ni abadamu batatu. Bigaragara yuko bari kwa muganga. Uri hagati yabo binagaragara yuko ashobora kuba ariwe muganga, akaba afite telefone mu ntoki, uri iruhande rwe afite ikidonge cy'ubudodo. Uyu ufite telefone mu ntoki bigaragara yuko hari ibyo yari ari kubasobanurira.

Aha ni igishushanyo cyo kwa muganga. Kikaba gisobanura uburyo n'igihe byemewe kuba wakuriramo inda.

Kwa muganga, abaganga bambaye amataburiya na face mask z'umweru, undi muganga we akaba yamba za face mask zama plastic zigukingira mwisura hose, bicaye kuntebe aho barimo kuvura abarwayi.

Uyu ni umurwayi uri kwa muganga w'umugabo, akaba ari gufatwa amaraso n'umugangakazi. Aho yamuryamishije ku gitanda.

Inyubako ikorerwamo ibijyanye n'ubuvuzi, ikaba yubatse mu buryo bugezweho, aho inkuta zayo ari ibirahure, ubasha kurebamo imbere uhagaze inyuma, hakaba haragiye hashyirwaho amashusho ajyanye n'ibintu bikorerwamo...

Iyi ni salle yo kwa muganga, irimo ibitanda byabugenewe, n'ibikoresho nkenerwa byose byifashishwa, mu kuvura abarwayi.

Aha ni kwa muganga, hari inyubako zigaragara n'abarwayi baje kwivuza, bamwe bakaba bicaye munsi y'igiti aho izuba ritagera, bategereje yuko bahabwa serivisi z'ubuvuzi.

Iyi ni imiti iri ku ma etajeri, bigaragara yuko ari icyumba cyo kwa muganga, iyi miti ikaba igiye ipanzwe bijyanye n'ibyo ivura, iki cyumba kirasa umweru.

Uru ni uruzitiro rwo kwa muganga. Akaba ari ibitaro bya Ruhengeli. Rukaba rwubakishije amatafari n'ibyuma. Aribyo bikunze kwitwa giriyaje. Zisize irange ry'umweru. Inyuma yaho akaba ari umuhanda, hakaba harimo abantu. Batambuka bari mu bikorwa byabo bya buri munsi. Nk'ibisanzwe.

Aba ni abarwayi bari ku kigo nderabuzima, bahagaze aho bakirira ababagana, bakaba bategereje yuko bahabwa serivisi z'ubuvuzi.

Aha ni muri sale yo kwa muganga. Hakaba harimo imeza zifashishwa n'abaganga bashyiraho ibikoresho mu gihe bari mu kazi. Hakaba n'indi meza isa nk'iyo mu biro, abaganga bicaraho mu gihe bari gutanga serivise. Hakaba hari n'indi mashini mu nguni, yifashishwa n'abaganga mu gihe bari mu kazi...

Aha ni kwa muganga, akaba ariho abarwayi baba bategerereje bicaye, mu gihe batarahabwa serivise z'ubuvuzi zabajyanye.

Ibi ni ibitaro byitwa Remera-Rukoma, Isange one stop center, bikaba biherereye mu Karere ka Kamonyi, mu majyepfo y'igihugu.

Aba ni abaganga, bigaragara y'uko, ari aba laborante, bari bari mu laboratwari, bari gupima amavuta yo gutekesha, niba yujuje ubuziranenge.

Muganga wirabura wambaye amarinete, uri kumwenyura cyane, ufite agasatsi ka natirere, akaba yambaye itaburiya y'umweru n'akuma kifashishwa basuzuma umuntu niba umutima uri gutera neza, iruhande rwe hakaba hari umumama utwite wambaye ikanzu y'ubururu, irimo amabara y'umutuku akoze indabyo.

Aha ni kwa muganga, izo nyubako akaba ari amavuriro akorerwamo n'abaganga, kugira ngo babashe guha serivisi zinoze abarwayi babagana.

Ibi ni ibipfuko byifashishwa mu butabazi bw'ibanze, mu gihe umuntu yaba agize gukomereka kudakabije, bikaba bikoreshwa kwa muganga.

Umuntu ufite imvune yo mu kabumbampore, ku kirenge, afatishijeho ishashi irimo ibintu bikonje, kugira ngo arebe niba uburibwe afite mu kabumbampore bwagabanyuka. Yambaye ipantaro y'ubururu aho ukuguru gufite ikibazo, asa nk'uwayizamuye kugira ngo abashe kwikanda neza.

Abantu babiri bari mu cyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, umwe arahagaze, undi arasutamye, uhagaze ari gukoresha imyitozo usutamye. Hasi harimo itapi isa nk'icyatsi, harimo n'umurongo w'umweru, inyuma hari amamashini yifashishwa mu gukora siporo.

Muganga yifashishije ibikoresho byabugenewe mu kazi ke ka buri munsi, ari gusuzuma umwana ijisho, ngo arebe niba hari ikibazo rifite, aho umwana ateruwe n'umubyeyi we, uri gufasha muganga kugira ngo abashe kuba yasuzuma umwana neza.

Uno musore ari gukora imyitozo ngororamubiri. Akaba ari kuyikorera muri saro iwe. Aho yarambuye agatapi gakunda kwifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, aha ngaha akaba yunamye yarambuye amaboko imbere. Uyu musore akaba agaragara nk'ufite ubwanwa bwinshi na direde.

Aba ni abakorerabushake ba Croix rouge, aho bigaragara ko bari bari guhugura abantu, ibijyanye n'ubutabazi bw'ibanze, uburyo watabara umuntu aramutse agize ikibazo runaka.

Uyu ni umugabo bigaragara yuko yari ari mu muhanda ari gukora siporo yirukankwa, ariko akaba yagize ikibazo cyo mu ivi, akaba yunamye ari kuhakandagura, ryari riri kumubabaza.

Iri ni icupa n'igikombe, abenshi bakunze kwita igerasi. Iri cupa rikaba ari iry'amazi y'urubogobogo ritunganwa n'inganda zabugenewe. Aya mazi akaba ari gusukwa mu gikombe, bigaragara yuko agiye kunywebwa.

Umusore uri muri siporo, ubona wiyogosheje ordinaire y'agasatsi gakeya, wambaye umupira w'umweru, ufite ekuteri mu gutwi, ari kunywa amazi, kubera ko icyaka cyamwishe, n'izuba ryamubanye ryinshi.

Aya ni amavuta yitwa Aloe Lips. Akaba yifashishwa mu kuyasiga ku munwa kugira ngo ubashe kubobera, akaba akozwe mu gikakarubamba.

Muganga wambaye itaburiya y'umweru n'ishati y'ubururu bwerurutse, n'agatambaro mu mutwe n'agapfukamunwa, aho ari gupakira imiti mu dukarito twayo...

Uyu ni umuti witwa Foreva BurayitiTufugeli, ukaba wifashishwa mu gukora isuku yo mu kanwa. Ukaba ukozwe mu kimera cy'igikakarubamba. Cyifashishwa mu gukora imiti myinshi igiye itandukanye.

Umuti gakondo, wumishijwe ugashyirwa ku bikoresho byabugenewe, aribyo imbehe, ahandi akaba ari agasekuru n'umuhini wabyo, byifashishwa mu gutunganya uwo muti, mbere yuko waba watangwa.

Ibi ni ibimera by'amoko agiye atandukanye, bibanza kumishwa bikaba byifashishwa mu gukora ubuvuzi bwa gihanga.

Imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo nyuma yuko ibanje kumishwa, igashyirwa mu dusorori twabugenewe kugira ngo ibashe gusekurwa ihindurwe ifu, ibe yabona uko ihabwa umurwayi.

Iyi ni imiti inywebwa. Ariko ikaba ikoze mu kimera cyitwa igikakarubamba. Indi ikaba ikozwe mu rubuto rwitwa umwembe. Ikaba iteretse ku meza y'igiti, n'imyembe mitoya icagaguye imbere.

Uyu ni umuti wifashishwa n'abantu bafite ikibazi cy'indwara z'uruhu. Uyu muti ukaba uri mu bwoko bubiri. Hari ukozwe mu buki, undi ukaba ukozwe mu kimera kitwa igikakarubamba. Abo bari ku ruhande ni amafoto ya bamwe mubafite indwara z'uruhu agaragaza uburyo byabafashije.

Ibi ni bimwe mu bikoresho, byifashishwa mu bijyanye n'ubuvuzi, ariko byo bikoze mu buryo bw'ibimera, harimo isabune ikoze muri avoka, n'igikakarumba, hakaba harimo amavuta akoze mu gikakarubamba...